Amashuri y'incuke ni amwe mu mashuri agize uburezi bw'ibanze umuntu aba agomba kuba afite. Amufasha kuzajyenda kwiga pirimari cyangwa se amashuri abanza, akazanamufasha ndetse no muri segondere cyangwa amashuri yisumbuye igihe bigendanye n'uko yitwaye mu mashuri y'incuke niyo mpamvu rero kwiga mu mashuri y'incuke ari iby'ingenzi kuri buri wese

Mu mashuri y'ibanze umuntu agomba kuba afite, aba agomba nko kugiramo n'amashuri y'inshuke, amashuri y'inshuke rero ni ho abana bajya kwigira ndetse bakanatangira ubuzima bwabo bw'ishuri, muri aya mashuri y'inshuke bashobora kwiga n'ibintu bitandukanye birimo kubyina, kuririmba ndetse bakanidagadura.

Amashuri y'inshuke ni amwe mu mashuri akoresha ibikoresho bitandukanye birimo udupupe kugira ngo abana babashe kugira kwishimira ibyo bari kubona ibyo biga kandi babifate mu mutwe vuba vuba bidasabye ko babyandika, ahubwo bisabye ko babireba bagasanisha n'ibiza n'ibiba mu buzima busanzwe bwa buri munsi.

Amashuri y'inshuke ni hamwe abantu abana batangirira biga kugira ngo bazafashwe n'ibyo bize muri ayo mashuri y'inshuke kugira ngo mu burezi buzakurikiraho bizabafashe kwinjira mu bundi burezi cyangwa se mu yandi mashuri bafite ubwenge karemano cyangwa se ubwenge bahawe n'abandi bantu.

Ahenshi mu mashuri y'inshuke usanga nta bintu byinshi baba bafite byo kbanwandika, ahubwo biga ibishushanyo bigiye bitandukanye bibereka ibintu mu buzima busanzwe, bishobora gutuma umuntu amenya ibintu biri hano ku isi, cyangwa se ibintu by'ibanze bishobora gutuma umuntu, afunguka ubwonko n'ibindi byashobora kuzanamo ibishushanyo by'ibikinisho, ibintu abana bakunda n'ibindi.

Amashuri y'inshuke ni amwe mu mashuri afasha umuntu kugira ubumenyi bwisumbuye ndetse buzamufasha no kwiga andi mashuri azakurikiraho yaba abanza n'ayisumbuye ndetse na kaminuza, aya mashuri umwana wayaciyemo aba akerebutse afite n'ubuhanga ku buryo utamuyoberwa.

Amashuri y'incuke uba usanga ari amashuri yigwamo n'abana batoya cyangwa se umuntu ugitangira ishuri, kugira ngo uzabe umuntu muzima, uba ugomba gutangira amashuri y'inshuke kugira ngo mutegure ejo hazaza mu yandi mashuri aziga abanza ndetse n'ayisumbuye, mu mashuri y'inshuke rero bifashishije ibishushanyo bigiye bitandukanye kugira ngo abana babashe kwisanga mu isi ya none.

Amashuri y'inshuke ni hamwe mu hantu abana bajya, bagiye gutangira nyine urugendo rw'ishuri cyangwa se urugendo rwo kwiyungura ubumenyi, kugira ngo bazabashe kuba abantu bazima. Aya mashuri y'inshuke n'ategura amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, kuko iyo umwana ayitwayemo neza bimufasha kwiga akurikiye.

Amashuri y'inshuke cyangwa amashuri y'ibanze cyangwa se ni uburezi bw'ibanze, afasha umuntu gufunguka mu mutwe kuko nta kintu abaza ahanini, ni amashuri usanga abana bigishwa kuvuga, kuyisoma ndetse no kwandika, ibintu bimwe na bimwe.

Amashuri y'inshuke ni amwe mu mashuri y'uburezi bw'ibanze umwana wese aba agomba kwiga, aya mashuri iyo wayize bigufasha gukomeza amashuri abanza ufite ubwenge ndetse bigafunguka mu mutwe bikagufungura mu mutwe ukaba wabasha kugira icyo uzima mu buzima bw'ejo hazaza.

Uburezi bw'amashuri y'incuke ni bumwe mu burezi bw'ibanze ndetse bwa mbere umuntu aba agomba kuba afite, kubera ko iyo umuntu aciye muri iri shuri kugira ngo yige andi mashuri biramworohera. Amashuri rero y'inshuke ni ngombwa kuyiga kugira ngo ugire ubwenge buhambutse cyangwa se uzabe intiti y'ejo hazaza.

Amashuri y'incuke ni amwe mu mashuri y'ibanze umuntu agomba kugira cyangwa se abafite mu buzima busanzwe ari na ho aheraraho kugira ngo azige andi ameze neza, amashuri y'inshuke rero hifashishwa ibishushanyo bigiye bitandukanye, biyoyobora umwana uko agenda yitwara mu buzima busanzwe binamugira bimufasha gufata mu mutwe wavutse.

Mu burezi bw'amashuri y'ibanze dusangamo n'amashuri abanza, muri aya mashuri uretse ko abana biga nyine ibintu byinshi bigiye bitandukanye baridagadura bakina imikino itandukanye, bashobora gukina ibyicungo, bagakina umupira w'amaguru n'ibindi.

Amashuri abanza n'mwe mu mashuri a yagize uburezi bw'ibanze umuntu atangiriramo avuye mu y'inshuke, amashuri afasha umunyeshuri kumenya ibintu byinshi bitandukanye birimo gusoma, kubara, kwandika neza ndetse n'indimi muri rusange.

Uburezi bw'amashuri abanza ni bumwe mu burezi bw'amashuri y'ibanze umuntu agomba kuba afite kuko hano ariryo tangiriro ry'ubuzima bw'umuntu. Haba mu mutwe cyangwa se no gukura muri rusange kugira ngo umubiri ukure. Muri aya mashuri abanza niho usanga abana biga bifashishije ibintu byinshi bigiye bitandukanye, nk'amashusho agaragaza nyine uko bameze n'ibindi byose.

Uburezi bw'amashuri abanza, ni bumwe mu burezi bw'amashuri y'ibanze. Muri ubu burezi, bigamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye byerekeye ibyo kubara, gusoma, kwandika, ndetse no kwidagadura.

Uburezi bw'amashuri abanza ni uburezi bw'amashuri y'ibanze nyine umuntu aba agomba kuba afite, ndetse umuntu aheraho akenshi, niyo buri muntu wese agomba kuyagira, n'amashuri abanza dushobora kuhasanga ibintu byinshi bitandukanye, ari yo nyine, intangiriro y'ubuzima bwacu.

Ubumenyi bw'amashuri yisumbuye cyangwa se uburezi bw'amashuri yisumbuye, ni ahantu umuntu avoma ubumenyi bw'ibanze, akagenda akabukurikiza kuko niho umuntu amenyera gusoma no kuwandika, bizamufasha mu mashuri yisumbuye ndetse n'andi mashuri azakomeza ndetse n'ubwo yarangiza mashuri abanza gusa, bizamufasha no mu buzima busanzwe.

Mu mashuri y'ibanze tugira tuba tugomba kwiga n'amashuri abanza, mashuri abanza ni ahantu umwana aca cyangwa se umuntu muri rusange kugirango ngo azabashe kwiga amashuri yisumbuye, amashuri abanza ushobora gukoresha ibikoresho bigiye bitandukanye byagufasha nko kwiga imibare, ibindi bintu bigiye bitandukanye n'andi masomo.

Amashuri abanza kandi ni amwe mu mashuri y'uburezi bw'ibanze acyamo buri muntu wese kugira ngo ashyike mu yandi mashuri yaba ayisumbuye ndetse na za kaminuza. Aya mashuri abana bayigamo bifashisha ibitabo biriho ibishushanyo bigiye bitandukanye, aho ushobora gusanga hari nk'igitabo gishushanyijeho abana bafite ibibazo runaka, bitewe n'ibyo bagiye kwigishwa.

Kugira ngo amashuri abanza atandukanye atandukanywe n'ayisumbuye ni ngombwa ko ugomba gushyiraho ibishushanyo bigaragaza ko ari ay'abana wenda ushobora gufata icyapa ukagishyiraho umwana ari kujya ku ishuri yambaye imyenda y'ishuri ugashyiraho ikirangantego ugashyiraho ibyo indangagaciro bagomba kuzagenderaho ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Uburezi bw'amashuri abanza ni bumwe mu burezi bw'ibanze umuntu agira, bumuyobora ku burezi bw'amashuri yisumbuye, nabwo buzamuyobora mu burezi bw'amashuri ya Kaminuza n'andi amufasha kugira ubuzima bwiza cyangwa se ubumenyi bukamugira umuntu wuzuye. Uburezi bw'amashuri abanza rero hari ibikoresho byifashishwa, birimo nk'inyuguti zibaje mu biti cyangwa se mu bindi bintu.

Mu mashuri y'uburezi bw'ibanze, umuntu agomba kuba afite, hazamo n'amashuri abanza. Mu mashuri abanza niho usanga umwana ufite guhera ku myaka itandatu, aba ari muri iryo shuri. Yigiramo ibintu byinshi bitandukanye, yigana na bagenzi be.

Mu burezi bw'amashuri y'ibanze tuba tugomba kugira n'amashuri abanza kugira ngo umuntu agire ishingiro ry'ayo mashuri nyine cyangwa se ubumenyi muri rusange. Nko mu mashuri abanza ari ingenzi kuyiga haba kuri buri muntu wese.

Mu mashuri abanza ni ho dusanga ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuko ari mu mashuri nyine agize uburezi bw'ibanze, muri byo twavuga nk'ibibafasha kwiga imibare ibyo bita bakunda kwita buwate matematikale, iba irimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye bifasha gushushanya ndetse no kwiga imibare neza.

Amashuri abanza ni amwe mu mashuri agize uburezi bw'ibanze, umuntu wese aba agomba kuba yiga, mu mashuri abanza bigamo ibintu byinshi bitandukanye, birimo gusoma, kwiga kubara ndetse no kwandika. Aya mashuri abanza rero, niho umuntu amenyera ubwenge ugasanga ari gutandukanya ikibi n'ikiza.

Uburezi bw'amashuri abanza ni uburezi bw'amashuri y'ibanze umuntu aba agomba kuba afite mu buzima bwe, ubusanga mu burezi bw'amashuri abanza buba bwubatswe n'inyubako zitandukanye n'iz'amashuri yisumbuye usanga aho abana bajya ku ishuri bambaye impuzankano nazo zitandukanye.

Amashuri abanza ari amwe mu mashuri agaragaza uburezi bw'ibanze umuntu aba agomba kuba afite, niyo mpamvu amashuri abanza bigamo ibintu byinshi bitandukanye, ushobora gusanga bakoresha ibikoresho bitandukanye kugira ngo basobanurire abana ibyo bagiye kwiga, bagafata nk'inyajwi cyangwa ingombajwi zibaje mu bintu runaka by'ibiti bakabereka n'ibindi bintu byo mu buzima busanzwe kugira babashe kwiga ibyo bintu.

Uburezi bw'amashuri y'ibanze umuntu nawe aba agomba kuba afite, agomba kuba afitemo amashuri abanza. Amashuri abanza niho umuntu yigira gusoma, kubara, kwandika ndetse akanidagadura bijyanye n'ubushobozi bwe cyangwa se bijyanye n'ikigero agezemo. Muri urwo rwego mu mashuri abanza bifashisha ibitabo byinshi basoma imyandiko bijyanye n'inkuru z'abantu cyangwa se ibijyanye n'imiryango.

Amashuri y'inshuke n'andi mashuri yose yigisha ubumenyi bw'ibanze, ni amashuri ashobora gukoresha ibikoresho bitandukanye birimo amakayi, amakaramu y'ibiti, ibishushanyo cyangwa ibindi bintu bigaragaza imibumbe y'isi, amarati, n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, bifasha abana kumenya ibintu byo mu buzima busanzwe kandi by'ibanze.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye ni bumwe mu burezi umuntu ahitamo gukomeza mu gihe arangije amashuri y'inshuke aha abanza ndetse agakurikiza nyine ayisumbuye. Amashuri yisumbuye ni umuntu afatira ibyemezo bikomeye, agafata ibyemezo bizamugirira akamaro iyo ahisemo nabi ubuzima bwe bugenda nabi.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye ni bumwe mu burezi bw'ibanze umuntu aba agomba kuba afite. Uburezi dushobora kubusangamo abanyeshuri bari mu kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu, abangaba baba bafite uko bafata imyanzuro yabo uko bazabaho ku munsi w'ejo, cyangwa se ejo hazaza.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye nimwe mu burezi bw'amashuri y'ibanze umuntu aba afite mu buzima. Amashuri yisumbuye ashobora kwigwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, muri ayo amashuri yisumbuye hari abigamo imyuga y'ubumenyingiro bakiga amashuri y'ubumenyi rusange n'andi mashuri agiye atandukanye bigamo nyine amasomo agiye atandukanye.

Uburezi bw'ibanze dusangamo amashuri yisumbuye, mu mashuri yisumbuye uba usanga higamo abantu bari mu kigero cy'ubugimbi n'ubugaragu cyangwa se ubugimbi n'ubwangavu, baba bakeneye gukura haba mu mutwe cyangwa se mu gihagararo, ahangaha niho babafatira imyanzuro igiye itandukanye izabayobora ku buzima bwabo.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye ni bumwe mu burezi bw'ibanze umuntu aba agomba kugira. Ubu burezi basangamo abana b'ingimbi n'abangavu aho baba bari mu bihe byabo bigoye, bagomba kwitwararika kugira ngo bafate ibyemezo bizima by'ejo hazaza.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye ni bumwe muburezi bw'amashuri y'ibanze umuntu agomba kugira kugira ngo Abe yuzuye yuzuze n'ubuziranenge bw'ubumenyi bwiwe, niyo mpamvu buri wese agomba kwiga rino shuri kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye, ni uburezi umuntu aba agomba kugira kuko nabwo ni uburezi bw'ibanze muri rusange, aho umuntu afatira icyemezo gitandukanye, n'ibindi yari afite mu mashuri abanza, ndetse ibyo byemezo afasha akazabigenderaho ubuzima bwe bwose, iyo ahisemo nabi hari igihe ubuzima bwe bumubere bubi.

Amashuri yisumbuye ni amashuri agakwiye kwigana na buri muntu wese kugira ngo abashe kubona ibyo azagenderaho mu buzima busanzwe kuko niho ufatira ibyemezo bikomeye by'ibintu uziriga cyangwa se ugafata imyanzuro mibi mu mugihe waba uhubutse ngombwa ari kwiga amashuri yisumbuye kugirango ngo ugire icyo umenya ku buzima bwawe bw'ejo hazaza.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye ni bumwe mu burezi bukenewe ahantu aho ariho hose muri iki gihugu cyangwa se ahantu ku isi hose umuntu yakenera, aho wajya hose uba ugomba gukenera uburezi bw'amashuri yisumbuye. Niyo mpamvu umuntu wageze mu mashuri yisumbuye agomba kuba ari umuntu ufite ubwenge buzima cyangwa se ubwenge bufata ibyemezo kuko ni ho hantu ho gufatira ibyemezo bikomeye.

Amashuri yisumbuye ni amwe mu mashuri afasha umuntu kugera ku cyo yifuza cyane cyane ko aya mashuri yigamo abana b'ingimbi n'abangavu, iyo batagize batigenzuye neza usanga bapfapfanye, ni ngombwa rero ko iyo ushyitsemo amashuri ugomba kwitwararika cyangwa se n'abo barezi bakagufasha kwitwararika mu myitwarire yawe myiza.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye ni bumwe mu uburezi bw'ibanze buri muntu wese yagakwiye kuba afite muri ubu buzima. Ubu burezi ubusangamo abanyeshuri b'ingimbi ndetse n'abangavu, baba bari muri icyo kigero kubera ko niyo myaka yabo nyine.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye ni bumwe mu burezi bw'amashuri y'ibanze umuntu agomba kuba afite, uko yaba angana kose agomba kuba yaca muri ano mashuri kugira ngo abashe kugira ibyo yigezaho mu buzima bw'ejo hazaza. Uburezi nibwo usangamo ingimbi n'abangavu bigishwa n'abarimu babifitiye ubushobozi ndetse n'izo mpamyabumenyi.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye ni bumwe mu burezi bugezweho ndetse bw'ingenzi ku muntu uwo ari we wese, kuko mu mashuri yisumbuye ni ho umuntu afatira ibyemezo bikomeye, n'umuntu aba ari gukura afite gufata ibyemezo, afite gucagura ikibi n'icyiza, afite kuvuga ati: "Ibi ngibi nabikora cyangwa simbikore", uburezi bw'amashuri yisumbuye rero ni ngombwa ko buri muntu wese abugira.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye, ni bumwe mu burezi bw'ibanze umuntu aba agomba kubugira. Ahangaha mu burezi bw'amashuri yisumbuye niho usanga umuntu ufatira ibyemezo bizamugiraho ingaruka mu buzima bwe. Mu gihe yafashe ibyemezo bizima, azaba umuntu mwiza, yafata ibyemezo bidafututse bikazamugira umuntu mubi.

Amashuri ya kaminuza ni amashuri atandukanye n'amashuri yativati cyangwa se amashuri y'ubumenyingiro, kubera ko amashuri yativeti cyangwa se amashuri y'ubumenyi ngiro usanga bigamo ibintu bijyanye n'imirimo y'amaboko; kubumba, kubaka amazu, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Amashuri y'imyuga n'ubumenyiyingiro ni amashuri aba atandukanye n'amashuri ya kaminuza, amashuri imyuga n'ubumenyiyingiro ni amwe mu mashuri yigisha gukora ibintu bigiye bitandukanye birimo ibikoresho byo mu buzima busanzwe n'ubundi bumenyi bugiye butandukanye bwagufasha kwibeshaho ino hano hanze.

Amashuri za kaminuza n'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro uba usanga ari amashuri agiye atandukanye bigendanye ko ibyo bigaba biba binatandukanye, amashuri y'ubumenyingiro usanga bashobora kubumba ibikoresho bitandukanye bafite n'ubugeni bugiye butandukanye.

Amashuri y'imyuga n'amashuri yisumbuye cyangwa se amashuri ya iniverisite cyangwa se amakaminuza muri rusange nkuko tubyita mu Kinyarwanda n'amashuri atandukanye kuko amashuri y' imyuga n'ubumenyingiro ni amashuri bigisha ibintu by'ibikorwa rusange bishobora gutanga imirimo, harimo imirimo y'amaboko ,imirimo ituma umuntu abona icyo kurya cya buri munsi bisabye imbaraga ze z'umubiri ndetse no mu mu mutwe bitandukanye n'amashuri ya za kaminuza.

Amashuri y'ubumenyingiro n'amashuri ya kaminuza usanga ari amashuri atandukanye mu buryo bugaragara, amashuri y'ubumenyingiro biga ibintu byinshi bitandukanye birimo ubwubatsi, ububumbyi, guteka ndetse n'ibindi, hanyuma mu mashuri ya kaminuza usanga ari ukwiyungura ubumenyi bijyanye ku byo umuntu aba yarize muri segonderi.

Za kaminuza n'amashuri y'ubumenyingiro uba usanga ari amashuri atandukanye. Amashuri y'ubumenyingiro aho ushobora gusanga bashobora gukora ibikoresho babumbye cyangwa se bikoreye n'intoki zabo. Mu gihe ama kaminuza yo ari amashuri urenze ku mashuri uba warize kugira ngo wiyungure ubumenyi burenze kubwo ufite.

Amashuri yisumbuye n'amashuri y'ubumenyingiro ni amashuri uba usanga atandukanye, amashuri ya za kaminuza ni amashuri ushobora gusanga umuntu ajya kwiyungura ubumenyi bitewe n'ibyo yize ahantu uburezi bw'ibanze bw'amashuri cumi n'abiri cyangwa se andi, hanyuma amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro ni yayandi uba usanga baba babumba ibintu byinshi bitandukanye birimo n'imitako.

Amashuri ya iniverisite cyangwa se amashuri ya kaminuza aba atandukanye n'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, kubera ko amashuri ya kaminuza ni y'amashuri wiga mu gihe uba warangije kwiga amashuri yawe asanzwe, wenda wize ama siyanse, wize ibindi bindi bitandukanye uje kuyikomereza muri kaminuza kugira ngo ugire uzagira ubumenyi bwisumbuye, mu gihe amashuri ya tiveti yo n'amashuri aba agomba kuguha ubumenyi bw'ibanze ku bintu runaka.

Amashuri y'ubumenyingiro ubusanga ari amashuri atandukanye n'amashuri ya kaminuza kubera kuba amashuri y'ubumenyingiro bigisha ibikorwa umuntu ashobora gukoresha intoki ze ndetse akoresheje imbaraga ariko mashuri ya kaminuza uba usanga ari amashuri yigisha ubumenyi rusange bwa hano hanze y'igihugu.

Amashuri y'ubumenyinngiro n'amashuri yaza kaminuza ni amashuri usanga agiye atandukanye bigendanye n'ibintu byigwamo. Mu mashuri ya kaminuza usanga biga ku bumenyi rusange baba barize mu mashuri yisumbuye ba kugira ngo babwongere. Hanyuma amashuri y'ubumenyingiro n'imyuga uba usanga ari amashuri yigisha ibintu by'amirimo y'amaboko bizafasha umuntu mu buzima busanzwe.

Amashuri yisumbuye cyangwa se amashuri y'ubumenyinngiro na kaminuza ni amashuri aba atandukanye. Amashuri y'ubumenyingiro ni amwe mu mashuri usanga akora agomwe ibintu cyangwa se yigishirizwamo ibintu bifasha muntu mu buzima busanzwe birimo: ubumbyi, ubwubatsi, ubutetsi, ububaji ndetse n'ibindi. Mu gihe muri za kaminuza umuntu yiga ibintu yize mu bumenyi rusange.